Umurima munini w'umuceri hahagazemo umugabo wambaye ingofero, ishati n'ipantaro; afite igikoresho bateresha umuti. Hakurya hari ibiti.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ishati ndende y'ubururu, ahetse igikoresho bateresha umuti kiri mu mabara y'umuhondo, ahagaze mu bigori hakurya ye hari ibiti.

Umugabo wambaye inkweto z'umukara, umupira w'umweru n'isengeri y'umukara, uhetse igikoresho bateresha umuti gisa n'umuhondo, ari gutera umuti amashu, hakurya yayo hari igihuru, inyuma yacyo hari igiti.

Umugabo uhetse igikoresho cyo gucucira amazi mu bihingwa, n'undi hakurya ufite igikoresho cyo gucucira amazi mu bihingwa, wambaye ingofero y'umukara, bari mu byatsi, hakurya hari ibiti.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, n'ikoti ry'umukara, ari mu murima, ari gucucira ibihingwa, akoresheje ipombo iri mu ibara ry'umweru hakurya hari imisozi.

Inzu y'ubucuruzi, hari ijerekani, indobo ndetse n'imiti, hahagazemo umugore witeze igitambaro cy'icyatsi, wambaye umupira w'umukara.

umugabo wambaye umupira wubururu n'undi wambaye umukara bafite urushundura mu ntoki, bashyize mu gishanga kirimo ibyatsi.

Abagabo babiri bahagaze mu kidamu bafite inshundura mu ntoki, hejuru hahagaze itsinda ry'abantu bazengurutse ikidamu, biganjemo abagore n'abagabo bambaye ibintu mu ntoki.

Umugabo ufite inkoni mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko n'imyenda y'umukara, inyuma ye hari ihene, hakurya hari ibidamu bigera kuri bitatu by'amazi ndetse n'ibiti ku ruhande.

Umugabo wambaye imyenda y'abapolisi ku ruhande hahagaze umugabo wambaye ishati yi'cyatsi, hakurya hari abana ndetse n'abagore bazengurutse ikizenga cy'amazi. Inyuma yabo hari ibyatsi.

Abagabo babiri bahagaze hagati y'ibidamu by'amazi. Inyuma yabo hari abandi bagabo. Hakurya hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abagabo ndetse n'umugore bari gusasa amashitingi y'umukara mu bidamu by'amazi, bafite amabase ndetse n'ibiti.

lkidamu cy'amazi kirimo abagabo batanu, bafite urushundura ruri mu mabara y'icyatsi mu ntoki, hejuru hari abandi bagabo ndetse n'abagore, hakurya hari ibiti.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru, afite ishashi yuzuye amazi, ari mu kidamu hagati. Ku ruhande hari urushundura ruri mu mumabara y'ubururu, hakurya ye hari ibyatsi.

Umurima w'ikawa hahagazemo umugore wambaye umupira w'umutuku, yiteza igitambaro cy'umutuku, n'igisobane, inyuma ye kirimo ikawa igeze hagati.

Ibiganza by'umuntu ufashe ikawa mu ntoki zuzuye mu kiganza, ziri mu mabara y'icyatsi umutuku n'umukara hasi hariho n'izindi nyinshi zisa n'izinyanyagiye hasi.

Umugore witeze igitenge kiri mu mabara y'umutuku yambaye n'imyenda ikoze mu gitenge, amabara n'umutuku ahagaze mu gihuru kirimo ibyatsi.

Igiti cy'ikawa harimo izikuze n'izitarakura, zimwe ziri mu mabara y'umutuku, izindi mu mabara y'umuhondo, izindi mu mabara y'icyatsi. Inyuma yaho ibihunga biri mu mabara y'icyatsi.

Umugore witeze igitambaro cy'umutuku, yambaye umupira w'umutuku ndetse akenyenye n'igitenge cy'umuhondo, afite igiseke mu mugongo. Ari mu murima w'ikawa. Hakurya hari imisozi.

Ishyo ry'inka harimo iz'umweru n'umukara ndetse n'kigina, ziri mu kibaya kirimo ibyatsi hakurya hari ibihuru ndetse n'ibiti.

Imbwa iri mu mabara y'umweru n'umukara, umugabo wambaye ingofero y'umweru, ishati y'umweru, inkweto z'umukara n'ipantaro y'umukara, ari kuyikama izo hakurya hari ikiraro.

Abantu benshi bikoreye amabase arimo ibyatsi, iruhande rwabo hari umurima w'ibigori, inyuma yabo ari ishyamba hejuru hari umusozi.

Umugabo ufite umuhoro mu ntoki wambaye umupira uri mu mabara y'umweru n'umukara n'ipantaro y'ubururu, ahagaze mu rubingo, inyuma ye hateye ibigori.

Umugore wambaye umupira w'ubururu, ufite isuka ku rutugu, yambaye n'ishapure mu ijosi. Ku ruhande hari undi mugabo ufite isuka ku rutugu n'ishati iri mu mabara y'umukara ndetse n'icyatsi kijimye. Inyuma yabo hari insina ndetse n'ibiti by'isombe.

Ingurube nyinshi ku ruhande hari imbaga y'abantu benshi, abasaza, abakecuru, abagabo n'abagore bafite ibipapuro by'umweru mu ntoki. Iruhande rwabo hari inyubako, hakurya hari igiti, inyuma yabo hari inzu yubakishijwe irange ry'umweru n'amabati.

Umugore witeze igitenge yambaye umupira w'umweru, imbere ye hateretse ibirayi biri mu matsinda atatu n'umugabo uhagaze iruhande rwe.

Umugore ufite igipapuro mu ntoki, yambaye igitambaro cy'umutuku n'ishapure, inyuma ye hari ibihingwa by'ibigori, insina z'ibitoki ndetse n'ibishyimbo.

Inka iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, iri imbere y'ibiraro byinshi birimo inka.

Umugore uhagaze mu byatsi yambaye igitenge kiri mu mabara y'umutuku n'umweru. Afite agafuka mu ntoki kari mu mabara y'umweru. Arambaye umupira w'umuhondo, afite isuka ku rutugu. Hakurya hari imiyenzi, inyuma yayo hari ibiti.

Umuriro w'bigori hakurya hari amazu n'ishyamba, hakurya hari umusozi ukikije ishyamba, hino hari ibyatsi.

Ibyatsi byinshi byo bita igikuyu hahagazemo inka z'amabara y'umweru ndetse n'umukara, hakurya hateye ibiti ndetse n'umusozi.

Abagabo batatu, umwe yambaye imyenda ya gisirikare, uri hagati yambaye ingofero n'inkweto z'umukara, uri ruguru afite isuka, yambaye umupira w'umweru n'ipantaro by'umukara, bari mu murima w'ibigori.

Umuhanda, w'igitaka, ukikijwe n'ibyatsi insina, ibihingwa by'amasaka, hakurya hari ibiti. Hirya yaho, hari abantu abana, ndetse n'amazu.

Umurima mugari w'amashu, hateyemo n' ibiti hepfo, hari igisigati, hirya hateye ibiti, inyuma yaho hari umusozi, uteyeho ibiti.

Ikibaya kinini, hakurya hari umusozi uteyeho ibiti, hirya hari undi musozi, ku ruhande hanyuzemo akayira, inyuma hari umusozi muremure.

Umurima muremure wamasaka, hirya y'aho hari ibiti bikeya ndetse n'imisozi iwukikije.

Umurima w'igisigati ukikijwe n'ibiti, hino hateye ibigori ndetse no hakurya, inyuma yaho hari ibiti, hakurya yaho nanone hari umusozi.

Umurima uteyemo ikiti kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, hakurya hari igishanga, hirya yacyo hari umusozi uriho n'ibiti, hakurya hari umusozi.

Inka iri mu mabara y'umweru, umukara iri mu byatsi iruhande hateye igiti hepfo yaho hari ibyatsi, hakurya hari uruzitiro inyuma yarwo hateye insina nyinshi hakurya hari umurima uteyemo insina.

Mu gikuriyo kinini harimo inka zifite amahembe maremare, zifite ibara risa n'ikigina. Hakurya hariho uruzitiro rukoreshejwe ibiti ,inyuma yarwo hariyo ibiti.

Inka ziririmo mbUga nini, zifite amahembe maremare n'ibara ry'igitaka, hakurya hakikijwe n'ibiti bisobekekeranyije, inyuma hari ibiti hepfo hari izindi nka ziri mu inguni.

Akayira gakikijwe n'ibyatsi umugenda n'ibiti ku ruhande, harimo imirima iteyemo insina ndetse n'umurima hakurya uteyemo ibihingwa.

Umurima w'amashu, uhagazemo umugabo, wambaye umupira w'ubururu. Hakurya hari igiti. Hakurya yacyo hateye ibiti byinshi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'umweru, ufashe imigozi iziritse ku nkingi z'igiti, hari n'ibimera biteye bizitije inkuta zisa n'umuhondo.

Umugore witeze igitambaro kirimo amabara y'umutuku n'umuhondo. Yambaye igitenge afite inanasi ebyiri mu ntoki, imbere hateretse andi manasi, inyuma ye hariho ibyuma birimubara y'umutuku, hakurya hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara. inyuma yabo hari umwana.

Mu murima w'amashu, umwe afite indobo y'umutuku yiteze igitenge ikindi aragikenyeye. Imbere ye hari undi ufite umwana mu ntoki. Hakurya hari undi mugore ufite indobo y'umutuku.

Umurima muremure w'amashu hakurya hari umusozi, hepfo yaho hari amazu ari ku musozi ndetse n'ibiti biri ku ruhande.

Hari gukorwa igikorwa cyo gucucira amashu, hakoreshejwe umupira uri mu mabara y'umutuku, ndetse n'umukara. Ni amashu ateye ahantu harambuye mu kibaya.

Ibyatsi byegereye umugezi hakurya hari ibindi byatsi, hirya yho hari igihuru hejuru yaho hari itongo.

Umuririma muremure urimo ibimera, hahagazemo abagabo bambaye amashati y'imyeru, hasakajwe igisenge gikozwe mu byuma ndetse n'amabati asa n'umweru.

Umugabo uri gucucira ibihingwa akoreheje umupira uri mu ibara ry'icyatsi, hakurya hari abagore bari guhinga, hakurya yabo hari insina ndetse n'ibiti.

Umugore ufite isuka, uteze igitambaro ndetse yambaye n'ibitenge hasi. Hakurya ye hari ibyatsi. Aho ari guhinga ni ibitaka gusa; ibyo bita intabire.

Umugore ufite umupira buhirisha ibihingwa, ari kuhira amashu, imbere hari igikoresho gishinzwe kuzana imbaraga zituruka ku zuba, hirya hari umurima uteyemo ibyatsi.

Umugabo ufite igikoresho bateresha umuti, ariko kuwutera umuti mu bihingwa hakurya hari umusozi uteyeho ibiti.

Umugabo wambaye inkweto z'umukara, afita umupira mu ntoki ucucira amazi, ari gucuci ibihingwa, hakurya hateye ibyatsi, hakurya ye hari inzu n'ishyamba.

Ishyamba, amaterasi y'indinganire ateyeho ibiti hakurya hari umusozi muremure, hirya yaho hari undi musozi muremure uteyeho ibiti.

Amaterasi y'indinganire ku musozi hateyeho nibiti, hagati harimo igiharabuge, hejuru musozi hari amazu, hakurya hari umusozi, ibicu by'umweru ndetse n'bindi byijimye.

Ibyatsi hepfo yabyo hari ikibaya kirekire, hejuru hari umusozi uriho n'amazu, hirya ku ruhande hari indi misozi ibiri, umwe uteyeho ibiti.

Ibyatsi, biriho ibiti, hepfo hari ikiyaga kirimo ibirwa bitatu, hakurya hari imisozi.

Umurima uteyemo ibihingwa hakurya hari insina ndetse n'ibiti, inyuma yabyo hari amazu hirya yaho hari ishyamba ndetse n'imisozi iteyeho ibiti.

Umugabo wambaye inkweto z'ubururu, ipantaro y'umukara n'ishati y'icyatsi n'ingofero y'umutuku, afashe ku nka iri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, inyuma ye hari undi mugabo wambaye umwenda w'ubururu n'inkweto z'umukara yegeranye n'inka iri mumabara y'igitaka, inyuma yabo hariho ibyuma by'umutuku.

Inka ziri ahantu mu kibaya kinini cyangwa ibyo bita igikweye mu kinyarwanda, ni inka zigera kuri eshanu, bigaragara ko ari inka ziri kurisha, ziri ahantu hitaruye, harambuye mu kibaya.

Inka iri mu kiraro, iri kurisha ibyatsi by'rubingo, inyuma yayo hari uruzitiro rw'ibiti, ku ruhande hari inzu isakajwe amategura.

Inka zirimo urwuri ziri mu mabara y'igitaka, ndetse n'umweru hakurya hateye ibiti, inyuma yaho hagaragara ibicu mu mabara y'umweru n'ikirere mu mabara y'ubururu.

Inka ziri mu kiraro zifite ibara ryigitaka, iruhande r'kiraro hari abagabo babiri n'umugore umwe, abagabo bambaye imyenda y'ubururu n'umugore wambaye ishati y'umweru n'inkweto z'umukara, iruhande rwabo hari ibyatsi, hepfo hari ibiti hakurya y'imisozi.

Imbuga yegeranye n'ibiraro by'inka, bikozwe muri sima ndetse bifite ibyuma bibikikije, hejuru hari ibyuma bifashe igisenge gikoze mu mabati. Hakurya hari ibiti biri ku musozi.

Ahantu hororerwa inkoko harimo inkoko nyinshi ziri kurya, iruhande hari amabati ndetse n'ibiti bishinze.

Ihene nyinshi ziri mu gihuru ziri mu mabara y'umweru n'ikigina, hakurya yazo hahagaze itsinda ry'abantu benshi, inyuma yabo hateye ibiti.

Umusaza wicaye hagati mu bigori ibyo bita amahundo, hejuru ye hari idirishya, yegamiye ku gikuta cy'inzu, hakurya hari ibyatsi.

Hari udufuka tw'umuceri iruhande rwaho hari urukuta rw'ubururu, inzu birimo irimo amakaro hasi asa n'umweru inkuta ziri iruhande y'udufuka tw'imiceri zisa n'umweru.

Inka iri mu kiraro gikozwe mu biti by'umukara, imbere hari umugore wambaye ishati y'umweru n'umugabo wambaye imyenda isa n'ubururu, hakurya hari ibiti.

Umugabo uhagaze iruhande rw'ikiraro kirimo inka ifite amahembe maremare, ni ibara ry'ikigina nyuma yayo hari umugore wambaye ishati yicyatsi, hakurya hari umusozi.

Ushinzwe kuvura amatungo arasutamye yambaye umupira w'umweru, ikabutura, inkweto z'umuhondo n'agapfukamunwa, imbere ye hari imbwa iryamye hasi, iruhande hariho umufuka.

Abagabo babiri bambaye impuzankano y'imyenda isa n'ubururu bafashe amahembe y'inka iri mu kiraro hakurya hari ibiti.

Ibyuma binini binyuranyemo n'ikiraro, harimo inka ndetse n'abagabo bane, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru.

Umugabo wicaye, wambaye ishati y'umweru, afite icyuma mu ntoki cyiri mu mabara y'umweru, imbere ye hari ameza asa n'umweru, iruhande hari urukuta rurimo amabara y'umweru ndetse n'umhondo.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, wambaye agapfukamunwa k'ubururu, mo imbere yambariyemo ishati y'umutuku, ari imbere y'ikiraro cy'inka cyubakishijwe ibiti, inyuma ye hari undi mugabo wambaye ishati y'ubururu, hakurya hari inzu ndetse n'ibiti.

Umugabo wambaye agatambaro mu mutwe k'ubururu, afashe ku nka iri mu mabara y'umweru n'umukara, hakurya ye hari ikiraro, hakurya hari ibyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara ufite imbwa, mu ntoki, ahagaze ku ibaraza ry'inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara. Hakurya hari abandi bantu hirya yabo hari ibyatsi, inyubako, insina, ndetse n'igiti.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'ubururu n'inkweto z'umweru n'ingofero y'umweru, bafashe inka iri mu kiraro cyayo. Hakurya hari ibicu biri mu mabara y'umweru, ikirere gisa n'ubururu.

Umugore wambaye ishati y'umweru, ku ruhande hari indobo y'ubururu, imbere ye hari ibikarito biri mu mabara y'ubururu birimo amashashi y'amata, hakurya hari ibyuma, ku ruhande hari igikuta cy'umweru.

Ni umuhanda urimo itsinda ry'imbwa cyangwa ibyo bita agakungu, ku ruhande hari akayira hepfo hahagaze abantu.

Imvubu nkuru n'indi ntoya biri mu mazi, hakurya hari izindi, hirya yaho hari ibyatsi bisa n'ibiri ku musozi.

Inyoni zifite amababa y'igitaka, amaguru y'umutuku, hasi hari amazi magari ndetse n'igiti gisa n'igitaka.

Ibyatsi birimo imparage, hakurya harimo inyamaswa zitwa isha, hirya yaho hari umusozi uriho ibiti.